Bavura abaturage bakanabakingira indwara akenshi kenshi z'ibyorezo ndetse n'izindi ndwara zigenda zifata abantu bakuze ndetse n'abana batoya, akenshi iyo mu gihugu kino ng'iki cy'u Rwanda cyangwa ibindi bihugu biba ngombwa yuko bafata abaturage bakabakingira.

Abana mu biturage bigiye bitandukanye bagomba kuganirizwa n'abantu bakuru ndetse banabihuguriwe nk'abaganga, mu rwego rwo kubarinda kuba bagira ihungabana mu mitwe yabo bitewe n'ibyo bagiye bacamo, ni yo mpamvu uba usanga bagomba guhugurwa, bagatekerezwaho cyane, ndetse n'abandi bantu bakagira icyo babamarira mu rwego rwo kugira ngo hirindwe kuba abana bagira ibibazo bijyanye no mu mutwe.

Ahantu hakirwa abarwayi hagomba kuba ari ahantu hacye ndetse n'ahantu abarwayi bajya gukorera za siporo mu rwego kugira ngo imibiri yabo ikomeze ikore neza nka babandi baba barwaye imitsi yagugaye kugira ngo amaraso akomeze atembere neza, hagomba kuba ari ahantu hakeye ndetse hasa neza ndetse n'abantu bahakora bagomba kuba basa neza bakeye cyane kuberako birafasha cyane mu buzima bwa buri munsi ku bitaro.

Ububiko bw'imiti bugomba kuba buri ahantu heza kandi hasa neza, n'abaganga bakora muri iyo sitoke y'imiti bagomba kuba basa neza bakeye cyane, mu rwego rwo kugira ngo imiti irinde kugira umwanda n'umwe na muto bihuranaho, kandi imiti uko ivura igomba kuba ifite ukuntu itondetse mu bikarito byazo.

Ahantu hakorerwa ubuvuzi hagomba kuba ari ahantu handitsetsweho amagambo agaragaza yuko ari ubuvuzi bukorerwa, nabyo bituma abaturage batahayobera, cyangwa abandi bantu bakahayobera bakeka ko ari ikindi kintu cyihakorerwa. Kandi hagomba kuba hafite itandukaniro ritandukanyijwe n'ibindi bintu biri ahandi hantu. Birafasha cyane mu rwego kugira ngo kubera ko ibitaro ni ikintu kiba cyihariye.

Ahantu bakorera siporo hagomba kuba hari ibintu bigaragaza ibyiza bya siporo mu buzima bw'abantu kugira ngo bakomeze abaturage bayibumvishemo bitewe n'ibyo bagiye babona ku mascreen ndetse no ku mashusho bagiye babona icyo siporo imaze mu buzima bw'abantu bituma abaturage nabo bayisangamo cyane bati: Ese niba ndwaye umutwe nkajya muri siporo ndakira cyangwa gutya bisanga usanga ari byiza cyane.

Imiti gakondo cyangwa imiti Nyarwanda, hamwe no mu bindi bihugu imiti bakoresha nyine bagakunda kuyita imiti gakondo, igomba kuba ari imiti ifite isuku, kandi n'abantu bayikoresha bagomba kuba bafite isuku, ndetse no mu buryo bazitanga bagomba kuba bafitemo ubuzobere, ndetse n'ubunararibonye mu kuzitanga, kugira ngo hatagira umuturage ufata uwo muti atagomba kuwukosuwiminga, bikamwangiriza.

Abakozi batandukanye bitewe n'ahantu bakorera, bagomba kuba bafite icyapa kigaragaza ibyo bakora ndetse n'ibyo bakora babihuguriwe ndetse banafiye ubushobozi, murwego rwo kugira ngo umuntu atazabayoberaho kandi batabyemerewe, ndetse hari n'icyacyapa kigenda kigaragaza yuko babiherewe uburenganzira na leta, mu rwego rwo kugira ngo barinde abarwayi ko bahaburira ubuzima muri hantu nk'aho hatemewe.

Imiti gakondo zigomba guhingwamo mu buryo buceye, ndetse no gutunganywamo, bigatunganywamo mu buryo buceye, murwego rwo kugira ngo hatagira umwanda bihura nabyo, cyangwa izo miti zihura nazo, niyo mpamvu ubu usanga nyine imiti gakondo zihingwa kure y'izindi myaka mu rwego rwo kugira ngo, hatagira, indi kirima, iza ikazangiza ziturutse ku izindi myaka.